Aha niho abayobozi bahurira bo mu nzego zigiye zitandukanye bagira ngo baganire ibyabateza imbere bigafasha n'abaturage kubaho neza.

Uburyo bwa leta bwo kwegereza abaturage ubuyobozi, bakaganira ibitagenda neza, n'ibyabafasha mukwiteza imbere.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe barakeye cyane bisa nk'aho bakuze ubitegereje neza, imbere yabo hari meza y'umweru iriho ururabo ndetse n'ibindi bitabo nabashije kumenya ibyo aribyo.

Aha nahahuriye abayobozi n'abaturage baganira kubitagenda neza no kubyabafasha kugirango biteza imbere begerejwe abayobozi.

Ibi ni ibikorwa bihuza abayobozi n'abaturage bakarebera hamwe uko bakiteza imbere n'imbogamizi bahura na zo mu kwi...

Ibikorwa bya leta by'iterambere byubakwa ahantu hagiye hatandukanye, kugira ngo urubyiruko, n'abakuru cyangwa abana bibafashe mu mibereho yabo hubakwa amasitade.

Ibikorwa bya leta bihuza abayobozi biga ku cyateza imbere igihugu n'umujyi bigasa neza ku buryo buri wese biba binogeye ijisho.

Ibikorwa bya leta bihuriza hamwe abayobozi baganira ku mibereho myiza y abaturage n'ibibazo bafite n'byabafasha mu kubikemura.

Ibi ibikorwa bya leta bihuza abantu bo mu ngeri zose harimo abayobozi n'abaturage bakaganira kubitagenda neza.

Ibikorwa bya leta bihuza abayobozi n'abayoborwa bakaganira ibyabateza imbere nibyabafasha mu buzima busanzwe.

Ibikorwa remezo bya leta, birimo ahareberwa imipira, aho abaturage bahurira ari benshi, ari urujya n'uruza, bagiye batandukanye, bari mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ibikorwa bihuza abayobozi n'abaturage, bakaganira ku bitagenda neza n'uko bakwiteza imbere, bigatuma babaho neza.

Ibikorwa bya Leta bihuza abayobozi n'abaturage kugira ngo bigire hamwe ibyateza imbere igihugu, bigafasha n'umuturage kwibeshaho neza.

Ibikorwa bya leta bihuriza hamwe abayobozi, n'abayoborwa bakareba ibigenda neza n'ibisabwa kugira ngo umuturage abeho ubuzima bwiza.

Ibikorwa bya leta bihuza abayobozi bo mu ngeri zigiye zitandukanye, tutibagiwe n'abayoborwa. Bakagaraza imbogamizi n'inzitizi bahura nazo.

Uburyo bwa leta buhuza abayobozi bakaganira ku iterambere ry'igihugu biciye kumisoro y'igihugu iva mubaturage.

Ibikorwa bya Leta bihuza abashoramari bagiye batandukanye, bakaganira n'abayobozi b'icyo gihugu, bakarebera hamwe aho bashyira imbaraga.

Akazu gasize irangi risa umuhondo mu imbere harimo icyapa gisa umuhondo, cyanditseho momo peyi, kigaragaza serivisi yo kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye, hifashishijwe ikoranabuhanga rya momo peyi.

Uburyo bwa leta buhuza abaturage n'abayobozi n'inama zigiye zitandukanye kugira ngo zigirwemo ibyateza imbere abaturage bikabafasha kubaho neza.

Ibikorwa bya leta bihuza abayobozi bagirango barebere hamwe ibyateza abaturage imbere, bikanabafasha no kwikura m'ubukene.

Iki ni igikorwa gihuza abayobozi bo mu ngeri zose baba abagabo cyangwa abagore bakaganira ku byafasha abaturage.

Ibikorwa bihuza abayobozi n'abaturage baganirira hamwe ibitagenda neza n'ibyabafasha mu kwiteza imbere.

Ibikorwa bya Leta bihuza abayobozi bo mu ngeri zigiye zitandukanye aho bicara bakaganirira hamwe ku bibazo abaturage bafite n'ibisubizo byabafasha.

Ibikorwa bihuza abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye bakarebera hamwe ibyafasha abaturage kugira ngo bakomeze biteze imbere.

Ibikorwa bya leta bihuza abakozi n'abayobozi kugira baganire ku byateza imbere abaturage n'ibibazo bitagenda ngo bikemuke.

Ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, bihuza abaturage n'abayobozi biga kwitezimbere n'ibyabafasha kuguma kubaho neza.

Ibikorwa bihuza abayobozi bagiye batandukanye bakarebera hamwe icyabateza imbere umuturage bitamugombeye imbaraga nyinshi bakabimufashamo.

Ibikorwa bihuza abaturage n'abayobozi harimo inteko ikorwa hifashishwa kumenya uko igihugu cyatezwa imbere n'ibibazo biba biri mu baturage.

Uburyo bwa leta bwegerejwe abaturage kugira ngo bubafashe batavuye aho bari, hitwa irembo, aho ujyaho ukabonaho ubufasha bugiye butandukanye, bitewe n'ikibazo ufite,

ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye harimo kwegereza abaturage amabanki aho baherereye bikabafasha kubikura neza.

Ibikorwa bya leta bikorwa hifashishijwe uburyo bwo gushimira abakozi, cyangwa abasora basoze neza mu mwaka uba urangiye.

Ibikorwa bya Leta bikangurira abaturage ku gutanga imisoro itandukanye kugira ngo biteze igihugu imbere aho batanga imisoro ku nyungu n'imisoro ku mwaka.

Ibikorwa bya leta, bikorwa n'ikigo gishinzwe imisoro. Aho gifasha umuntu kubona uburenganzira ku mitungo yaguze, bikamworohera no kuyisorera.

Uburyo bwa Leta, bufasha abaturage kubona uko batanga imisoro yo mu gihugu imbere, bakayitanga badakerewe kugira ngo badacibwa amande.

Ubufasha bwa leta twegerezwa abaturage, aho bafata amabanki bakayegereza hafi abaturage bikabafasha kwizigama, bitabagoye biboroheye.

Ibikorwa bya leta by'ikoranabuhanga aho abantu bibafasha kwishyura imisoro igiye itandukanye batavuye mu rugo harimo iy'ubutaka.

Ibikorwa bya leta, bishinzwe gufasha abaturage kubereka uko batanga imisoro bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, aho binjizamo tini namba yabo na pasuwadi, ubundi bakinjira muri sisiteme.

Ibikorwa bya leta birimo guteza imbere igihugu n'abaturage bacyo nk'urubyiruko cyane cyane aho rwigishwa ikoranabuhanga.

Uburyo bukoreshwa na leta hatangwa imisoro igiye itandukanye ariy'amatungo n'imisoro y'akarere, n'imisoro y'ibijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga

Ubu ni uburyo bukoreshwa hakurikiranwa amakuru y'umuturage, aho bafata simukadi ye bakayibaruraho irangamuntu, bikamufasha kubihuza n'ikigo gishinzwe imisoro.

Uburyo bwa leta bukoreshwa hatangwa imisoro igiye inyuranye irimo iy'ubutaka, iy'umusoro ku nyungu n'ipatante.

Ibikorwa bihuriza hamwe abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye n'abaturage biga ku byateza imbere abaturage bikabafasha no mu mibereho myiza.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Ibikorwa bya reta birimo gufasha abaturage kubageza ku iterambere rirambye Kandi n'ikoranabuhanga ntirisigare, ahashingwa iminara ishinzwe gutanga amarezo.

Ibikorwaremezo bya leta bifatanya n' amasososiyete ashinzwe itumanaho, hubakwa iminara ikurura amarezo kuri telefone.

Uburyo bwa leta bukoreshwa mu buryo bugiye butandukanye abantu bishyura imisoro yo mugihugu imbere harimo ibiyemu naho bahabwa ibihembo bigiye bitandukanye ku basoze neza.

Serivisi za leta zegerezwa abaturage aho bari hose, ndetse bakigerezwa hafi aho aho bagera bitabagoye.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye harimo kugeza umuriro baturage bo mu gihugu bakabaho neza.

Ibi ni ibikorwa bya leta birimo gukangurira abaturage kubaka inzu zijyanye n'igihe hafi y'imihanda no kubaha umuriro w'amashanyarazi.

Ibikorwa remezo birimo kubaka amapoto hashyirwaho insinga z'amashanyarazi kugirango ngo ugere utuye mu gihugu.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye birimo kubaka imihanda, hagashyirwaho inzira z'abanyamaguru, no guha abaturage umuriro w'amashanyarazi, bakabakura mu kizima.

Aha ni ahakusanyiririzwa imbaraga z' amashanyarazi hashyirwa batiri zifasha kohereza umuriro mu baturage kugira ngo bave mu kizima.

Ibikorwa remezo bya leta birimo gutanga amashanyarazi ku baturage batuye mu gihugu bakabava mu mwijima bakajya ku matara.

Ibikorwa bya leta birimo guteza imbere igihugu batanga amashanyarazi kuri buri muturage aho atuye hose.

Ibikorwa remezo bya leta birimo gushinga amapoto agezweho kandi akomeye, arinda abahegereye kuba yabahungabanya kugira ngo babone amashanyarazi yo mu buryo bugezweho.

Ibikorwaremezo bya Leta birimo kubaka amapiloni hariho insinga z'amashyanyarazi kugira ngo byorohereze abaturage kubona umuriro mu buryo bwizewe.

Ibikorwa bya leta, birimo kwegereza abaturage amashanyarazi, kugira ngo bibarinde kuba mu kizima, n'abana bige neza, bagire ubumenyi, nta mbogamizi.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye byegerezwa abaturage birimo amashanyarazi abafasha mu iterambere no kugira ubuzima bwiza aho bava mu kizima bagatura ku mashanyarazi.

Ibikorwa remezo bya leta birimo kwegereza abaturage amashanyarazi aho bibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi bakabaho ntampungenge.

Ibikorwaremezo bya leta birimo gutanga umuriro ku baturage aho batuye hose bakava mu mwijima bakaba nko mu mucyo.

Ibikorwa bya leta birimo gutanga amashanyarazi ku baturage no mu miryango igiye itandukanye mu nzu.

Ibikorwa bya leta birimo guha abaturage amashanyarazi babakura mu mwijima aho bibegerezwa.

Ibikorwa remezo bya leta bigiye bitandukanye, harimo kwegereza abaturage amashanyarazi kugira ngo bibafashe kuva mu mwijima.

Ibikorwaremezo bya leta birimo amashanyarazi gutera ibiti ku mihanda kugira ngo imihanda isa neza inakurure umwuka mwiza wa ogisijeni.

Ibi ni ibikorwa bya leta byo kubaka ahatunganyirizwa amashanyarazi hagashyirwa n'ibiyakurura kugira ngo agere ku baturage.

Ibikorwa bya leta bifasha kubuza abaturage aho bakwiye kwirinda kugera, mu gihe bibaye ngombwa kuko bishobora kubagiraho ingaruka batabyitondeye.

Ibikorwa remezo, bya leta, aho bakora amazu meza, akomeye akorerwamo n'abakozi ba leta nk'ahari komisiyo y'igihugu.

Icyapa gishyirwa ku muhanda kiburira abawugendamo ko aho bagiye kugera hari umuhanda unyurwamo ubazengurutse.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye birimo kwegereza ubuvuzi bw'ibanze abaturage aho bahabwa ibitaro bibafasha mu gihe barwaye.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye harimo kwegereza abaturage amavuriro agezweho yubatse neza adafite ikibazo na kimwe.

Ibikorwa bya Leta bigiye bitandukanye, aho bifasha abaturage kubibonera hafi batagiye kure, aho baza bakicara, bategereje kwakirwa.

Ibikorwa remezo bya leta bigiye bitandukanye byegerezwa abaturage aho begerezwa amavuriro n'abaganga b'inzobere babasuzuma ngo barebe ubuzima bwabo buhagaze neza.

Uburyo bwa Leta, bufasha abaturage guhabwa ubutabera aho bari hose, haba mu Rwanda cyangwa inyuma y'igihugu bagafashwa.

Ikigo cya leta gishinzwe gufasha abantu kubasubiza ku murongo, kugira ngo birinde ko bakica sosiyete, bakagaruka bafite ubwenge kurushaho.

Igitabo kirimo amategeko agenga abayobozi n'abayoborwa kugira ngo hatagira ufata imbaraga ahabwa n'ubuyobozi akazikoresha mu nyungu ze.

Ibikorwa bya Leta bifasha abayobozi bitegura gushyirwaho uko bagomba kurahira bafashe iri darapo ry'Igihugu bazamuye n'akaboko k'iburyo.

Igipapuro cya leta, gishyirwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo amategeko ahana n'afasha abaturage ibyo bagenewe n'ibyo basabwa.

Igipapuro cy'ubushinjacyaha kigaragaza ibyaha mpuzamahanga cyambukiranya imipaka cyangwa ababikoze bagahunga mu kindi gihugu.

Icyapa kiri mu amabara y'umweru handitseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'andi y'ama mabara y'umuhondo, n'andi arimo ibara ry'ubururu ndetse n'indi mibabara y'umutuku.

Ibikorwa bya leta birimo kwegerezwa abaturage nko kubaha abacamanza kugira ngo babafashe batavuye aho bari bibo

Aha ni ahantu ba mukerarugendo cyangwa abanyamahanga n'abenegihugu bashobora gukoresha baruhuka hari amazi boga mo batagombeye kujya mu kivu.

Uburyo bwa Leta bugaragaza abakozi bayo, harimo abacamanza bari mu ngeri zigiye zitandukanye abagore, abagabo.

Uburyo bwa leta bwo kwerekana abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, aho bahabwa amapeti agashyirwa ku ntungu zabo.

Ibikorwa bya leta birimo kwegereza abaturage ubuyobozi, aho babegereza urukiko cyangwa abacamanza babafasha igihe bahuye n'ikibazo.

Uburyo bwa leta bufasha abaturage guhabwa ubutabera hakoreshejwe abavoka mu rukiko.

Ubufasha bwa leta bugiye butandukanye harimo gufasha abaturage kubegereza urukiko hafi aho bibafasha kubona ubutabera nta kiguzi.

Uburyo bwa Leta, bufasha imfungwa n'abagororwa, kuburana mu ruhame, kugira ngo byerekanwe ko nta cyaha bafite, nikinabahama bahanwe.

Ibikorwa bya leta, birimo korohereza abaturage kubona ubutabera, aho bari hose mu gihugu, aho baburanishwa mu buryo buciye mu mucyo.

Uyu ni umupolisi uhagaze ku muhanda acunga ko ntawukoresha inzira nyabagendwa atubahiriza amategeko.

Ibikorwa bya Leta bigiye bitandukanye birimo kubaka imihanda, guca imirongo y'abanyamaguru, harashyirwa umupolisi ubishinzwe kugira ngo arebe ko byubahirizwa.

iyi ni imodoka yifashijwa kuzimya umuriro ahabaye inkongi aho itabazwa byihutirwa kugirango ihagere itarashya cyane .

Ahari ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye n'ibigi bikoreramo inzego zishinzwe umutekano nka polisi iri Nyarugenge Rwezamenyo.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa bazimya umuriro aribyo bita kizimyamwoto, aho zibikwa neza kugira ngo bizirinde kwangirika.

Iki ni igikoresho cyifashishwa kuzimya inkongi y'umuriro aho kibikwa neza kugira ngo bikirinde kuba cyakwangirika cyangwa kigateza impanuka.

Uyu ni umuntu uri kwigisha abanyeshuri uko bakifashisha mu gihe aho bari hatewe hatewe n'inkongi y'umuriro bagafata icupa ry'umutuku.

Ibi ni ibikoresho bikoreshwa bazimya umuriro, byitwa kizimyamwoto. Aho bibikwa mu buryo bwizewe kugira ngo bitangirika.

Ikigo cya leta gishinzwe kurwanya inkongi y'umuriro aho kifashishwa ahantu hahiye kikahagera byihuse mu butabazi.

Ibikorwa bya leta birimo umutekano wizewe uhabwa abaturage n'abanyagihugu aho polisi ibitaho.

Ibikorwa bya Leta, bitegura bikanashyira mu bikorwa, aho abayobozi bahurira n'abaturage, bakaganira bashaka icyateza imbere igihugu n'icyabafasha mu buzima busanzwe.

Uburyo bwa leta bukoreshwa herekanwa abayobozi basuye igihugu aho hashingwa amabendera abiri buri umwe agahagarara ku ry'igihugu ahagarariye.

Ibikorwa birimo kwamamaza abayobozi, aho bafata ibinyabiziga bakagenda bapepera abaturage, banabereka ibyo bazabagezaho, mu gihe bazabayobora.

Uburyo buhuza abaturage n'abakozi ba Leta kugira ngo bahabwe ubufasha bugiye butandukanye, aho abayobozi baganira n'abaturage bakumva ibigenda n'ibitagenda.

Uburyo bwa leta ikoresha ifasha abaturage guhuza n'abo bayobora aho hategurwa inteko rusange ihurirwamo nabo bombi.

Uburyo bwa Leta bukoreshwa umuyobozi arahira imbere y'abaturage aho afata idarapo ry'igihugu akazamura akaboke ke k'iburyo..,,

Uburyo bwa Leta bugiye butandukanye bufasha abaturage, aho batonda imirongo bategereje guhabwa ubufasha bugiye butandukanye.

Uburyo bwa leta buhuza abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye n'abaturage bakaganirira hamwe ibitagenda neza mu baturage.

Ibi ni ibikorwa byo kwamamaza abayobozi kugira ngo batorwe batanzwe n'ishyaka babamo aho bavuga imigabo n'imigambi n'ibyo bazakorera abaturage.

Aba ni abaturage bashyigikiye ishyaka rya Efuperi inkotanyi, aho bambara imyenda yaryo bakaza kwitorera umukandida ubabereye.

Uburyo bwa Leta bukoreshwa, bwerekana uko abantu biyamamaje bagiye babona amajwi mu matora, ntawibwe kandi mu mucyo.

Icyapa gishyirwa ku muhanda kiburira abawugendamo ko aho bagiye kugera hari umuhanda unyurwamo ubazengurutse.

Ibikorwa bya leta birimo kwereka abayobozi aho basinya mu gihe bitegura kujya gukorera abaturage ibyo babasezeranyije.

Uburyo leta ikoresha ihuza abayobozi n'abayoborwa kugira ngo bicare baganire ibyabafasha gutera imbere n' ibitagenda neza.

Ibikorwa bya leta, bihuza abayobozi bo mu ngeri zigiye zitandukanye, bakagaragaza ibibazo abaturage bafite n'imbogamizi bahura nazo, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Uburyo leta ikoresha kugira ngo harahire abayobozi bitewe n'imyanya bagiye bahabwa aho begera idarapo ry'igihugu bakarifataho, bakazamura akaboko k'iburyo bakavuga indahiro.

Ibi ni ibikorwa bihuza abayobozi ku mpande zombi n'abaturage, bakaganira ku bitagenda neza, n'ibyabafasha.

Uburyo bwa Leta bukoreshwa hagati y'ibihugu bibiri, aho basinyana amasezerano agashyirwa mu bitabo bibiri bitandukanye, Leta imwe igatwara kimwe n'indi igatwara ikindi.

Abantu benshi ubona bicaye ahantu hamwe batuje, barakeye babiri muri bo barahagaze, umwe kandi afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kugira ngo agere kubamukurikiye.

Ibikorwa bya leta bigiyei bitandukanye birimo kubaka imihanda ikomeye, inyurwamo n'ibinyabiziga byikorera imizigo iremereye n'itaremereye.

Uyu n'umukozi ushinzwe gusukura ahantu agenda atoragura imyanda yagiye ijugunywa n'abaturage kugira ngo isuku....

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ikomeye inyurwaho n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ari ibyikorera imizigo.

Ibikorwa bya leta byo kubaka imihanda ikomeye ya kaburimbo hagashyirwaho n'inzira z'abanyamaguru kugira ngo batabangamirana n'ibinyabiziga.

Ibikorwa bya leta birimo kubakira abamotari aho bazajya bahagarara badateje impanuka cyangwa ku ngo bangamire abagenzi.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka n'aho imodoka ziparika zitwara abagenzi no gushyira amatara ku mihanda, kugirango ngo imihanda ibonesherezwe.

Ibikorwa remezo bya Leta ahubakwa za gare zitegerwamo imodoka zigiye zitandukanye zijya mu ntara n'izikora mu mujyi.

Ibikorwa bya leta, birimo kubaka imihanda ikomeye, inyurwamo n'ibinyabiziga bitoya nk'amavatiri n'ibinyabiziga bitwara imizigo.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda gushyiraho inzira z'abanyamaguru no gutera ibiti bikurura umwuka kugirango ikirere bigire bikirinde guhumana.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye harimo kubaka umuhanda mwiza ukomeye hagaterwa n'ibiti impande y'umuhanda kugira ngo bikurure umuyaga.

Ibikorwa remezo birimo kubaka umuhanda unyurwamo n' imodoka zigiye zitandukanye zitwara abagenzi n' izitwara imizigo hashyirwaho n' ibyapa.

Iyi ni inzu irimo abantu benshi bamwe baricaye abandi barahagaze, abicaye hari abafite impapuro bari gusoma abandi batangara.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ya kaburimbo inyurwamo n'ibinyabiziga binini n'ibitoya n'ibitwara imizigo.

Ibikorwa bya Leta bigiye bitandukanye, harimo kubaka imihanda ikomeye nka kaburimbo, no gutera ibiti iruhande rw'umuhanda bikurura umwuka mwiza.

Ibikorwa bya leta birimo gutunganya imihanda bikubakwa ku buryo bugezweho, hagashyirwaho n'inzira y'abanyamaguru n'amatara amurikira umuhanda.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda myiza ikomeye na gare zigezweho zirimo kaburimbo ikomeye ku buryo birinda ibinyabiziga kwangirika.

Ibikorwa remezo bya leta bihabwa abaturage kugirango biteze imbere hubakwa imihanda myiza ikomeye ya kaburimbo inyurwaho n' ibinyabiziga bito n' ibinini.

Ibikorwa bya Leta bigiye bitandukanye harimo kubaka imihanda, inzira y'abanyamaguru, gutera ibiti, bikurura umwuka mwiza udafitemo imyuka mibi.

Ibikorwa remezo bya leta birimo kubaka imihanda ya kaburimbo inyurwaho n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye hagaterwa n'ibiti ku ruhande.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ya kaburimbo ikomeye inyurwaho n'ibinyabiziga bitwara ibintu biremereye.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda myiza, hagashyirwaho na parikingi za moto cyangwa imodoka.

Ibi ni ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga nka za hoho n'amabisi atwara abagenzi.

Ibikorwaremezo bya leta birimo: kubaka imihanda minini inyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ibyikorera imizigo iremereye n'imizigo itaremereye.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga binini cyangwa ibitoya no gushyiramo udufata amazi kugirango birinde kwangiza.

Ibikorwa remezo bya Leta birimo kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ibitwara imizigo n'ibitwara abagenzi hagashyirwa n'ibiti ku mpande y'umuhanda bikurura umwuka mwiza.

Ibi ni ibikorwa bya leta birimo; kubaka imihanda no kuyitunganya, kujya inyurwaho n'ibinyabiziga byikoreye ibiremereye.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda myiza ya kaburimbo, inyurwaho n'ibinyabiziga bitoya cyangwa ibinini.

Aha ni ahagenewe guhagarara imodoka zitwara abagenzi. Harimo n'imirongo abanyamaguru banyuramo n'aho bugama imvura cyangwa izuba.

Ibi n'ibikorwaremezo bya leta birimo kubaka imihanda inyurwamo n'ibinyabizigagiye bigiye bitandukanye harimo ibitwara imizigo iremereye.

Icyapa kiriho amafoto atatu magufi y'abagabo babiri uwitwa KABUGA n 'uwitwa BIZIMANA bashakishwa kubera icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye byegerezwa abaturage aho abamotari bategurirwa aho bazajya bahagarara batabangamiye umuhanda.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye, ahubakwa imihanda myiza ikomeye hagashyirwaho n'amarigori acamo amazi arinda umuhanda kwangirika.

Mu bikorwa bya leta bigiye bitandukanye birimo kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye birimo ibyikorera imizigo n'ibitwara abagenzi.

Ku Gishushu naho wahabona inzu wakwishyura amafaranga atari menshi nawe ukabasha kuyibamo, ni amadorari magana ane wishyura buri kwezi ni hafi ya raadibi.

Uburyo bwa leta bwo gutunganya imihanda hashyirwaho ahanyura amazi habugenewe hirindwa ko bakangiza umuhanda.

Aha ni ahari ikibuga abana bakiniramo cyangwa abantu bakuru n'inyubako yubatse neza ndende ijyanye n'igihe.

Ahubakwa amazu y'icyerekezo atuzwamo abaturage bimuwe bakabaho batekanye aho baba begereye n'ibibuga byo kwidagaduriramo bakiniraho imikino igiye itandukanye.

Ibikorwa bya leta bishyirwa ahantu hagiye hatandukanye habera imyidagaduro, urubyiruko, abantu bakuru, n'abana hubakwa ibibuga byiza bikinirwamo basikete cyangwa umupira w'amaguru.

Aha ni ahubatswe ikibuga gikinirwamo umukino umwe wa tennis aho umanika ku igitambaro hagati gitandukanyamo ikibuga kabiri.

Ibikorwa remezo bya leta birimo kubaka imihanda ikomeye hagashyirwaho ibyapa byerekana aho banyura bazengurutse.

Ibikorwa bya Leta bigiye bitandukanye birimo gutera ibyapa ku mihanda kugira ngo biyobore abakoresha umuhanda nyabagendwa baba abafite ibinyabiziga cyangwa abagenda n'amaguru.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye, harimo abashingwa ibyapa byereka abakoresha umuhanda ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe.

Iki ni icyapa cyerekana ibimenyetso bigiye bitandukanye, harimo icyo gukomeza imbere, icyo kuzamuka, n'icyo gutambika.

Ibikorwa bya Leta byo gushinga ibyapa ku mihanda aho hashyirwaho aho biri na nimero z'aho biherereye.

Ibikorwa bya leta bifasha abagenda mu muhanda kugenda bizeye ko ntankomyi bari buhure nayo ahashingwa ibyapa biyobora ibinyabiziga.

Iki ni icyapa gishingwa mu nzira nyabagendwa, aho kiburira abakoresha umuhanda ko imbere.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda hagashyirwaho ibyapa biyobora abagenda muri iyo mihanda bibaburira no gutera ibiti ku ruhande.

Iki ni icyapa kiranga ahantu, aho hashyirwaho aho giherereye na nimero y'umuhanda niba hazamuka cyangwa hamanuka.

Uburyo bwa leta bukoreshwa hashyirwa ibyapa ku mihanda bigenda biburira gukoresha umuhanda ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye, ahashyirwa ibyapa biyobora abagenda mu muhanda, aho bibereka aho bagana.

Ibikorwa remezo bya leta bigiye bitandukanye, ahubakwa imihanda myiza ikomeye, hagashingwa n'ibyapa biburira abatwara ibinyabiziga ko hari aho abagenzi bambukira.

Ibikorwa bya Leta birimo gushinga ibyapa ku mihanda nyabagendwa inyurwamo n'ibinyabiziga kugira ngo biburirwe aho bigomba kunyura.

Ibikorwa bya Leta birimo gushyira ibyapa ku muhanda, biyobora abagenda mu muhanda nyabagendwa kugira ngo bibarinde kuba bateza inkomyi.

Icyapa gishyirwa ku gikuta cy'igipangu kugira herekanwe aho kiri na numero yacyo nk'umuhanda kibarizwaho.

Icyapa gishyirwa mu muhanda nyabagendwa, kiburira abawukoresha ko aho bagiye kugera hari ibimenyetso by'amatara bimurika.

Icyapa gishyirwa ku muhanda kiburira abawugendamo ko aho bagiye kugera hari umuhanda unyurwamo ubazengurutse.

Uburyo bwa leta bukoreshwa ku mihanda nyabagendwa hashingwa ibyapa biyobora abawugendamo kugira ngo bibarinde guteza inkomyi.

Aya ni amatafari ari mu mbuga, abumbye mu mucanga, iruhande rw'aho ari hateye indabyo, muri ubu buryo leta ikoresha ikangurira abaturage kubaka bigezweho.

Ibi ni ibikorwa bya leta, birimo kubaka kaburimbo zinyurwamo n'ibinyabiziga bitoya cyangwa ibinini, hashyirwaho n'inzira y'abanyamaguru n'abaturiye ku muhanda bakubaka mu buryo bugezweho.

Aba ni abantu batatu, umwe muri bo asa nk'ukuze, ni umudamu wishimye afite umwana mu ntoki, hari undi uryamye wambaye ibintu by'umweru bisa nk'aho ari kwa muganga, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango ikizere cy'ejo hazaza, ibyishimo by'umuryango, ni amagambo yanditse ku cyapa cyamamaza baherereyeho.

Ibikorwa bya leta bikangurira abaturage gutera ibidukikije, aho kubyangiza, ahaterwa ibiti birebire, ibimara igihe,..

Iyi ni inyubako yubatswe neza mu uburyo bugezweho ahashyirwamo ibyumba byinshi bifasha abahakorera kwisanzura.

Ibikorwa bya leta birimo gukangurira abaturage kubaka uburyo bugezweho hakanaterwa ibiti bikabarinda nk'isuri yatwara ubutaka bwabo.

Ibikorwa bya leta birimo gutunganya ibishanga, haterwamo ibiti by'amoko yose no gushyiramo inyamaswa.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka inzu zigezweho zijyanye n'igihe, zirinda umuturage kuba yamugwira cyangwa akaba yagira ikindi kibazo ahura nacyo.

Ibikorwa byo kubaka amazu ajyanye n'igihe akorerwamo ubucuruzi, agashyirwaho ibyapa bibigaragaza andi akaba ayo guturamo yubatse neza.

Ibikorwaremezo bya leta birimo gukangurira abaturage kubaka inzu zijyanye n'igihe, zikomeye zidashyira ubuzima bwabo mu kaga no kubaha amashanyarazi abafasha kwiteza imbere.

Ibikorwa bya leta birimo guteza imbere umujyi hubakwa amazu meza acyeye n'ibibuga by'indege bifasha abanyamahanga kugera mu gihugu bitabagoye.

Ibikorwaremezo, bya leta byihutisha iterambere ry'igihugu hubakwa amazu meza maremare akeye, hafi y'imihanda ya kaburimbo.

Ibi ni ibikorwa remezo bya leta birimo kubaka ivuriro rijyanye n' igihe no gushyiraho aho abantu bashobora gufatira ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa.

Ibikorwa bya Leta birimo gutuza abaturage ahantu heza hatashyira ubuzima bwabo mu kaga, bagahabwa n'amashanyarazi kugira ngo hatijima.

Ibikorwa bya leta birimo gutera ibiti ku muhanda kugira ngo hagaragare ubwiza bwabyo no kubaka aho amacumbi y'abanyamahanga cyangwa abanyarwanda baba.

Inzu y'ubucuruzi bugezweho, irimo akabati gasa umweru gafite ububiko bugera kuri butanu bugiye butandukanye, buri bubiko bukaba burimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye

Ibikorwaremezo bya leta ahubakwa mu mihanda hagashyirwaho inzira z'abanyamaguru n'ibyapa imodoka ziparikamo.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye, birimo kubaka imihanda myiza ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga byikorera imizigo iremereye n'itaremereye n'ibitwara abagenzi.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye harimo kubaka imihanda myiza, gushyiraho imirongo, inzira y'abanyamaguru, n'ibimenyetso bimurika mu muhanda.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda, ya kaburimbo hagacibwamo n'imirongo ifasha abakoresha imihanda kutayoba.

Ibikorwa bya leta by'iterambere harimo kubaka imihanda myiza ya kaburimbo, ikomeye no guca imirongo ku mihanda harimo iy'abanyamaguru.

Ibikorwaremezo bya leta birimo kubaka imihanda, gushyira ibyapa biyoboye ibinyabiziga mu mihanda no gushyiraho amatara.

Ibikorwa bya Leta byo kubaka imihanda ya kaburimbo inyurwamo n'ibinyabiziga binini n'ibito, hagaterwa n'ibiti iruhande rw'umuhanda.

Ibikorwa remezo bya leta birimo kubaka imihanda ya kaburimbo ikomeye hagashyirwaho ibyapa biyobora abagenda mu muhanda.

Ibi ni ibikorwa remezo bya leta birimo, kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga binini cyangwa bitoya hubakwa n'aho bigomba guhagarara.

Ibikorwa remezo bya leta biba bigiye bitandukanye aho bubaka imihanda myiza ya kaburimbo ikomeye bagateraho n'ibiti ku ruhande bikurura umuyaga mwiza.

Ibikorwa bya leta birimo gufata neza ibidukikije, kubaka imihanda hagashyirwaho amarigori afata amazi.

Ibikorwa remezo bya Leta harimo kubaka imihanda ikomeye ya kaburimbo, hagashyirwaho imirongo y'abanyamaguru n'iyerekana aho umuhanda ugarukira no gutera ibiti hafi y'umuhanda.

Ibikorwa bya leta bigiye bitandukanye, harimo kubaka imihanda ya kaburimbo ikomeye cyane n'inzira z'abanyamaguru.

Ibikorwaremezo bya leta ahubakwa imihanda myiza ya kaburimbo ikomeye cyane n'inzira y'abagenzi iruhande rw'umuhanda.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ikomeye igezweho hagashyirwaho inzira y'abanyamaguru, hagaterwa n'ibiti i ruhande rw'umuhanda.

Ibikorwa bya leta biriho kubaka imihanda hagashyirwaho ibyapa byerekana aho banyura bazengurutse kugira ngo birinde ababikoresha kuyoba.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda hagashirwaho imirongo y'abanyamaguru, n'ibimenyetso bimurika, biyobora abayigendamo.

Ibikorwa bya reta birimo kubaka imihanda ikomeye ya kaburimbo ,inyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye haba amapikipiki, ibyikorera imizigo iremereye n'iyoroheje.

Ibikorwa remezo bya Leta, birimo gutunganya imihanda bikayubaka neza mu buryo bugezweho hashyirwaho n'inzira y'abanyamaguru no gutera ibiti ku muhanda.

Ibikorwaremezo by'igihugu harimo kubaka imihanda igezweho, gutera ibiti impande y'umuhanda hashyirwamo n'ibyapa.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda myiza ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibitwara imizigo n'ibitwara abagenzi.

Ibikorwa remezo bya leta bigiye bitandukanye birimo ahubakwa imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye; ibitwara imizigo n'ibitwara abagenzi.

Ibikorwa bya leta birimo kubaka imihanda ikomeye inyurwamo n'ibinyabiziga bitwara imizigo iremereye n'iyoroheje hagashyirwaho n'amatara amurikira umuhanda.